Impanuka ntiteguza, gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, wahamagara kandi rimwe umunani rimwe zeru.

Umugore n'umugabo bafite amagare. Inyuma yabo hari amazi menshi y'ikivu. Handitse amagambo: "Tekana mu gihe cyawe cy'iza bukuru".

Umugabo wambaye ikote afite igikapu ku rutugu, atwaye ikindi mu ntoki. Ushaka gufata urugendo utekanye? Sonarwa irahakubereye, ni ubwishingizi.

Umugabo wambaye isaha ari guseka afite akamashini mu ntoki, imbere ye hateretse mudasobwa, umugore w'undi arahagaze afite ikarita mu ntoki ari gukoza ku kamashini ari kwishyura ibyo amaze kugura.

Imodoka iragaragara igice cy'imbere ifite nimero RAG 517 E, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki.

Imodoka ebyiri zifite ibara ry'umukara, ziri mu bwoko bwa yundayi, izi modoka zirareba igice kimwe, imwe irareba imbere indi irareba inyuma.

Umugabo n'umusore bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera, umwe muri aba afite n'agakapu gatukura, bahagaze imbere y'imodoka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ikoboye yambaye agapfukamunwa, ahagaze imbere y'imodoka y'umweru idafite nimero iyiranga.

Imodoka ni iy'umukara, iragaragara ku gice cyimbere, ni imodokadoka yo mu bwoko bwa kiya iyi modoka ni otomatike. Iri kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda.

Imodoka y’umukara igaragara igice cy’imbere, ifite numero rah kabiri, karindwi, icyenda u.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo igaragara igice cy'imbere irasa umweru, aba bombi bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera moto.

Imodoka ziri mu bwoko bw'ibikamyo ebyiri, imwe ifite ibara ry'icyatsi imbere, indi ifite ibara rya oranje, imbere y'izi modoka hahagaze abagabo babiri, aba bagabo bafite icyapa mu ntoki.

Abagabo babiri bambaye amashati y'amaboko maremare n'umugore umwe wambaye ikanzu ubahagaze hagati, bafite icyapa cyanditseho akagera motari, iruhande rwabo haparitse imodoka.

Imodoka y'umukara iraparitse, ni imodoka nshyashya iri mu bwoko bwa korola iragurishwa miliyoni mirongo itatu na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagore babiri umwe yiteze igitambaro mu mutwe afite n'ikindi mu ijosi, ari kwakira amafaranga arikuyahabwa n'uwo mugore wundi.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bibiri, iriho ibirangantego kimwe ni umunara ufite na antene ikindi ni igiseke.

Akabati karimo amata y'lnyange, amazi, indobo irimo amandazi, capati ziteretse ku isahani, zubitseho indobo.

Indobo ni ebyiri ziteretse ku meza, zipfundikiye imifuniko ireba hasi, imwe irimo amandazi, kuri aya meza kandi hariho ikaramu.

Ameza atwikirijeho igitenge, ateretseho igikombe cy'amata, isahani ndetse n'ikindi gikombe giteretse imbere y'umugore wicaye ku ntebe.

Umugore wambaye impeta nyinshi n'imikufi ku kaboko no mu ijosi, yitaze igitambaro, afite telefone mu ntoki, imbere handitse amagambo irekure.

Abagabo babiri, bari kureba muri terefone, bari guseka. Sangiza inshuti, ibyiza bya sipeni, ubatumire. Utsindire amafaranga magana atanu y'u Rwanda kuri buri nshuti utumiye.

Amafaranga y'inoti z'amayero ni icumi, afunze mu mabandare atatu, buri bandare rigiye rifunzemo inoti igihumbi.

Ikiganza gifite inoti mu ntoki ziratandukanye niz'amayero harimo mirongo itanu izijana iza makumyabiri.

Ibiganza kimwe kiriho impeta, biri kubara amafaranga harimo iminote ya mirongo itanu, imbere y'ibi biganza hateretse andi mafaranga y'inoti ndetse n'ibiceri.

Abantu batatu bahagaze imbere y'umuryango, umwe yambaye ijiri ya emutiyene y'umuhondo, undi yambaye umwambaro w'akazi arinda kuri uwo muryango.

Akabati gafashe ku gikuta, karimo televiziyo, imitako, ibitabo n'ibindi, ku kindi gikuta hariho umutako.

Intebe zikoze mu rubaho, umwanya wo kwicaramo utwikijeho umwenda usa umukara, ndetse zifite ameza na yo akoze mu rubaho.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umutuku, inkweto z'umutuku n'ikoti ry'ikoboyi. Yicaye imbere ya mudasobwa, arimo arayikoraho. Iruhande rwe hicaye abandi bantu.

Abantu benshi baricaye bambaye udupfukamunwa, umugore umwe yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'ijire y'umukara, yicaye ageretse akaguru ku kandi.

Abagore babiri barahagaze mu isoko, umwe akenyeye igitenge yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe, undi yambaye ishati y'igitenge ateze ikindi gitenge mu mutwe.

Umugore aricaye, yifubitse igitambaro mu ijosi. Imbere ye hari ibishyimbo, voka, amaronji, imineke, ibinyomoro, n’anasi.

Umukobwa yambaye ikanzu n'ingofero, afite ikariso mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wunamye, inyuma y'aba bantu hari umuryango umanitseho ibikapu byo mu mugongo.

Ibase irimo umufuka, intoryi, itomate, imiteja, karoti, ibitonore, ibitunguru, abantu batatu.

Abakobwa, abana batoya n'umugore umwe wicaye ku ndobo, bari mu isoko mbere yabo hari ibyo bari gucuruza bimwe bigiye bipanze mu ndobo, ibindi biri mu mabasi.

Umugabo arahagaze yambaye ingofero n'umupira w'umweru uriho ibirango bya FPR, ni mu isoko kandi undi mugore arahagaze ari kureba ibiri kugurishwa.

Abagore bicaye imbere y'imashini, bari kudoda. Indi mashini, nta muntu wicaye imbere yayo. Ni mu isoko rimanitsemo imyenda myinshi, indi igiye irambitse.

Umuhungu arahagaze ukuboko kumwe gukoze mu mufuka, iruhande rwe hari abandi bantu benshi bari kudoda, umwe aricaye ari kureba ukuntu bari kudoda, yambaye umupira w'umutuku.

Ishyura na momo peyi kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru kane, gatatu gatandatu gatandatu icyenda, nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umweru ahetse n'igikapu. Ahagararanye n'undi na we uhetse igikapu bahagaze munsi y'umutaka wa MTN.

Akazu kari mu ibara ritukura, kanditseho ijambo AIRTEL mani, gafunguye uruhande rumwe, rw'idirishya, urwo ruhande ruteretsemo amabombo.

Birasi yagufasha kukuzanira gaze namazi yo kunywa mugihe waba ubikeneye bi ibizana murugo wahamagara kuri nimero 0785525716.

Mote enye zose zicayeho abantu bambaye kasike bose ndetse kuri moto inyuma hateretseho igikarito kigenda gitwaye ibyo kurya.

Intumwa yambaye kasike y'icyatsi izanye ibicuruzwa, iri kubishyikiriza umuguzi biri mu gakapu kari mu ibara ry'umukara kanditseho safi.

Abagabo babiri bambaye umwambaro w'akazi, wanditseho vuba vuba. Bambaye n'amakasike ku mutwe. Bombi bakoze ku gikapu kiteretse kuri moto, cyanditseho vuba vuba.

Inzu iragaragara ku rubaraza. Iragurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, iherereye mu Rwanda, i Kigali.

Iyi nzu irakodeshwa, iherereye i Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bitatu, dushe na tuwarete ebyiri, irakodeshwa ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu irakodeshwa iherereye i Kigali Kanombe, ifite ibyumba bitatu ndetse na dushe na toilette ebyiri, irakodeshwa ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu ifite urubaraza, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye igituza, iragurishwa, iherereye i Kigali Kibagabaga, igiciro ni miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu ifite uruzitiro rwubatse amatafari ahiye. Irakodeshwa, ifite ibyumba bibiri, na duce na tuwarete byo mu nzu bibiri.

Inzu ifite n'urubaraza iragurishwa iherereye i Kigali Kanombe ifite ibyumba bine dushe na tuwarete eshatu.

Inzu ifite amabara arimo n'umweru, umuryango wayo urafunguye, iyi nzu ifite ibyumba bitatu, ikodeshwa ibihumbi magana ane iherereye Kimironko.

Umugore wambaye ijipo y'umukara, agapira k'iroza n'igikapu ku bitugu, umugabo uri iruhande rwe, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuntu usutamye, wambaye ishati ya karokaro, nipantaro y'umukara ari gukora mubicuruzwa. Undi arahagaze iruhande rwe, ari gusunika akagare.

Ubwishingizi bwo kwivuza ariyo mituweri buragaragaza ko iri mu cyiciro cya mbere, itariki y'amavuko igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, aha kandi hari n'indangamuntu.

Abagore n'umugabo umwe bicaye ku ntebe. Babiri bitwikiriye ibitenge, biteze n'ibindi mu mutwe. Inyuma yabo hari undi witwikiriye igishora, ufite telefone mu ntoki.

Umuntu yambaye ikote ry'umukara afite igikapu ku rutugu, ari gukurura agakapu bashyiramo ibintu mu ihahiro, undi nawe yambaye ikoti ry'umukara afite igikapu mu ntoki.